Umugore ujyamye hamwe n'umwana we umwana we w'inzobe umugore w'igikara umugore akaba yiteze igitambaro c'icatsi akaba yambaye agapira k'ubururu kagasengeri kaba yorogoshe igikuvurori bajyamye ku gitanda c'ibyuma bajyamye mu nzu ifite amarangi g'umuhondo.

Akabati gafite utwumba twinshi tugerekeranyije， karimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye， biri mu dukarito dufite amabara gatandukanye， harimo udukarito dufite amabara g'umuhondo， utundi amabara g'umutuku， hirya yaho akaba ari umuryango gufunguye， imbere y’ugo muryango hakaba hari ibikarito bitatu bigerekeranye.

Umuganga uhagaze afashe urushinge yambaye na ga, yambaye n'agapfukamunwa, yambaye n'itaburiya y'umweru, hijya ye hari ibyapa byanditseho amagambo menshi ajanye n'umubyeyi no konsa n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba ari gutera urushinge umukobwa wicaye wambaye agapira k'umutuku, agapfukamunwa, afite n'imitsatsi z'umukara, imbere yabo hakaba hari akameza karimo ibikoresho byo bari kumukoresha.

Ibyatsi biri gushashagirana cane cane kubera ko ari urumuri rubimuritseho, hijya yaho akaba ari akantu kameze nk'agakingo k'ibitaka byiza, bikaba ari ibyatsi byifashishwaga mu kurimbisha no gutegura imitako y'ahantu.

Imbuhu ni kimwe mu gihingwa gitanga imbuto ziryoha cyane zikaba ari n'umuti n'ibibabi byabyo akaba ari umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, bityo bikaba byajyanwa nanone ku masoko bikagurishwa bigatanga umusaruro kubihinga bikanamwinjiriza.

Ibyatsi birabije, bifite uturabo twiza cyane, bifite udushami twinshi cyane, akaba ari ibyatsi bikoreshwa nk'umuti na none akaba ari ibyatsi bigaburirwa amatungo cyane cyane inkwavu, kubera ko zikunda tuno twatsi cyane.

Ibidodoki ni kimwe mu biribwa byiza cane twifashishaga mu gutegura amafunguro yacu ya buri munsi, haba amababi yaco cyangwa ibidodoke ubwabyo. Bivagamo imboga zo guteka, zikarinda indwara n'ubuzima bwa muntu.

Ishamba ririmo ibyatsi n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye. Muri iryo shamba hakaba harimo ibyatsi bikoreshwaga ng'umuti, bino byatsi bifite agati karekare n'udushami twinshi dushamikiyeho twafashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo n'Ise.

Igiko ni kimwe mu bihingwa bikoreshwa nk'uruzitiro. Bikaba bifite imishito ku mababi yabyo, kandi bikaba bikoreshwa nk'umuti uvura ibisebe. Inyuma y'icyo giko hakaba hari ahantu harambuye hari agacaca. Inyuma yacyo hakaba hari ibiti by'intusi byinshi.

Ibyatsi bikoreshwaga ng'umuti muri ibyo byatse hakaba harimo kamwe gafite ururabyo. Ibi byatsi bikaba byifashishwa mu kuvura ingwara zitandukanye harimo igifu, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byatsi bikaba ari byiza cyane kubera ko bivura abababaye kandi bigakiza abarwayi.